Ditani ni umuti gwagenewe kwica udukoko two mu myaka, zaba ziri mu murima cangwa se ziri mu urugo. Iyo ziri mu rugo urazihuraga, ukazishyira mu mufuka gwabigenewe, nyuma ukagufata ukagumininjagira hejuru.

Iyo ibigori bigeze igihe co kuhirwa bashiragamo ifumbire rya dapu ni ryo ritumaga bibyibuha bigashisha bigakura neza bikazatanga umusaruro gushimishije.

Buri muhinzi wese ategetswe kugira umuti gwicaga udukoko kugira ngo azasarure. Iyo imyaka igeze hejuru utangiraga kuguteramo kugeza igihe imyaka zereye.

Abahinzi b'amashu iyo bagitayeho gareraga gagatanga umusaruro gushimishije cane, bisabaga kugatera umuti kugira ngo gwice udukoko tubaga turi mu mababi.

Ifumbire rya Dapu ribaga mu dufuka tw'umweru dufite ibara ry'icatsi, tubaga turi gupima ibiro mirongo itanu buri gafuka, ribaga ryiza mu myaka kuko ritumaga zera neza.

Umuhinzi w'umuceri wabigize umwuga, abaga afite icuma cabugenewe co guteresha umuti go kwica udukoko, kugira ngo guzere neza.

Kugira ngo ibihingwa byawe bizaguhe umusaruro gushimishije ukoreshaga n'ifumbire mvaruganda, iyo uri kuyikoresha wirindaga kuyegereza ikimera kugira ngo kitababuka.

Indobani zirimo amoko menshi gatandukanye, hari izi meze nk'utuyugiro ariko kandi zifite forume nkiya gafuka, iyo bayikubise mu mazi amafi gazaga gari kwiruka gakitsindagiramo.

Ifi zikabushishe ziraryohaga cane, zibagazumutse kandi ziryoshe, iyo ushaka kuzitekagamo isosi cangwamo kimwe ugapfa kuzirya.

Amafi garobeweho gararyohaga cane ariko kandi gakunze kwangirika iyo gatashyizwe muri firigo. Iyo bagashyize aho babonye usangaga gapfuye ku buryo gugarya gashobora kukugiraho ingaruka.

Amafi gatakabujije kagiraga isosi iryoshe, ariko kandi iyo gamaze iminsi garaboraga. Ni ngombwa kugashira muri firigo kugira ngo igakonjeshe ge gupfa.

Hari ubwato usangaga ku ngezi bukozwe mu giti, bufite ishusho y'umuvure, butwaraga abantu batari benshi cane. Iyo umuraba guje mu mazi gakundaga kurohama.

Ifi ikawushije iraryohaga cane kuyitegura ukayishiraho ibirungo byayo ukayirisha umuceri ubaguriye indyo yuzuye byujuje ibyangombwa.

Iyo uriye ifi ndetse n'ifiriti wumvaga uriye neza cane, iyo bayishizeho ibirungo bibaga akarusho. Ifiriti bayitegaga mu mavuta bakayumutsa, ifi na yo bayishiraga ku mavuta ikumuka.

Iyo ushaka ko amafi gamara igihe ugakabushaga mu mavuta ,ukagashira mu kintu comotse ico gihe ugenda urafataho imwe imwe ntaco gabaga kubera ko amazi gabaga ga zishizemo.

Amafi iyo bagafashe nabi ntibagashire muri firigo karapfaga abagariyeho bose bashobora kwandura indwara niyo mpamvu mu buryo bwo kugafata neza ugomba kugashira ku kazuba cangwa mo kimwe ukagashira muri firigo.

Firigo ni igikoresho kigezweho gitangaga ubukonje ,iyo ushizemo ibiribwa cangwa ibinyobwa ubikuragamo byakonje ntabwo byapfa ,byamara igihe cose wifuza.

Ikiyaga usangagamo abarobyi benshi bari gushaka amafi. Ni bwo buzima babagamo nta kindi kibatungaga batungwaga n'aga mafi babaga barobye.

Amafi gabitse muri firigo, gamaraga igihe kirekire cane. Nta bwo gangirikaga gabaga gariho ibintu bikonje bitaga bararafu, ariko kandi ntabwo garyohaga nk'ago barobeyeho.

Amajeri nta bwo gabagarwaga gereraga mu gihuru. kubera ko aho riryamye nta bwo ari ho ribaga ritereye. Abantu baragakundaga kuko gaboroherezaga imirimo.

Ibireti ni igihingwa ngandurabukungu. Kigiraga amababi g'icatsi, indabyo z'umweru zirimo n'irindi bara ry'umuhondo hagati. Kivagamo imiti.

Ibirayi ni igihingwa nzamurarugo, iyo byishimiye ubutaka bitangaga umusaruro gushimishije, abaturage bo mu Kinigi nibyo bakundaga guhinga kuko hakonjaga cana.

Muri izi minsi imishingiriro uri gusanga zarabuze. Ni yo mpamvu uri gusanga abantu basaruye ibigori n'imisigati bakayigira imishingirizo yo kuzashingiriza ibishimbo. Bagendaga barazivanga n'ibiti bikomeye iyo bari gushingirira.

Igihingwa c'ibinyomoro ceraga neza iyo waciyetayeho, ni ngombwa kubihinga mu murima gwabyo nta zindi myaka ubivanze nabyo, iyo ubivanze n'izindi myaka ntabwo biguhaga umusaruro gushimishije.

Uyu murima bawuhinzemo ibinyomoro ndetse n'insina. Ibinyomoro barabisasiye kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije cyane, kurusha imidasasiye.

Inturusu za nyiramweru iyo bazitemye zirongeraga zigashibuka, ndetse zikazana ibishami byinshi. Ibibabi byazo bivuraga inkorora n'ibicurane.

Ibirayi iyo biri hafi kwera ntabwo bongeraga kubibagara, bategerezaga ko imigozi yabyo ihindura ibara ikuma. Iyo imigozi zikiri icatsi bibaga bitari byera.

Iyo umurima baguhinzemo ibigori ku yindi nshuro, ikurikiyeho bisabaga ko barandura ibikenyeri byose. Bari kubijuguya inyuma kugira ngo bazabone, uko baguhingamo izindi myaka.

Mu guhinga urutoki wirindaga kuruvanga n'izindi myaka, kuko zitumaga rwera agatoki gatoya cane kuko rubaga ruri mu mpamyi rutisanzuye.

Ibihaza byeraga ku ruyuzi rurandarandaga hasi. Iyo baruteye bakaruha ifumbire rihagije rutangaga umusaruro gushimishije, ku buryo buri wese usangaga ari ku rwifuza.

Guhinga imyaka ku murongo ubu ni byo bigezweho rwose. Kuko bitangaga umusaruro gushimishije. Mbere y'uko ushiramo imbuto urabanzaga ugaca imirongo ukoresheje agasuka.

Kugira ngo ibirayi bizaguhe umusaruro gushimishije，wirindaga kubivanga n'izindi myaka，kubitera mu rutoki ntabwo ari byiza cangwa se kuvangamo amateke n'ibindi..

Ikidodoki ni igihingwa kiryohaga kandi coroshaga mu nda. Ntaho kiteraga haba ku mabuye cangwa ku nzitiro no hasi kiraharandaga kandi kikera. Bagitekaga mu buryo butandukanye, wakigereka ku bitsimbano cangwa mo kimwe ukagitekamo imboga.

Ibirayi iyo batabihinganye ifumbire nta musaruro gushimishije bitangaga, urabirebaga ukabona birananutse ntabwo byahuye.

Ibirayi bitewe k'umurongo bitangaga umusaruro ushimishije cane. Mu gihe co kubisarura utumiraga abo kugufasha.

Inkoko iteraga amagi ikagararira ikagaturaga gakavamo imishwi, iyo nyirayo ayifashe neza imuhaga umusaruro gushimishije cane.

Ikawa ni igihingwa gitunganyirizwaga mu ruganda umuhinzi wacu abonaga amafaranga yahangayitse cane kuko bwazaga gakerewe.

umworozi w'ingurube wabigize umwuga, azubakiraga ikiraro gikomeye cy'ibiti n'imbaho. Iyo azishize hasi zirahabyiniraga, zikahagira icondo, ugasanga zifite umwanda.

Inyana imaze igihe gito yavutse bayitaga umutavu, si byiza kwizirika ahantu hari icondo kuko bishobora kutera uburwayi bw'uburenge.

Ibishimbo bya kirya umukwe, bibaga bisa n'umutuku, biraryohaga cane. Ariko kandi iyo byahuye n'imvura bizagamo ibipfira. Iyo uriye igipfira wumvaga kiri gusharira.

Mu Rwanda avoka ni urubuto rukundwaga n'abantu benshi ,iyo uyiriye buri gihe ugiraga uruhu rworoshe, umubiri gwawe guhoranaga itoto.

Igihaza ca kinyarwanda ni igihingwa gikundwaga n'abantu benshi. Ceraga ku ruyuzi rurandarandaga. Iyo ceze neza bagikuragamo inzuzi kandi nazo ziraribwaga.

Ihene y'isekurume usangaga itandukanye n'ishashi, ibaga ifite ubwoya bushinze. Ikagira amahembe gasongoye, akenshi iyo ushatse kuyegera igukubitaga ihembe.

Igihingwa c'inyanya iyo bazishingiriye zireraga cane . Ikikubwira ga ko zeze zibaga ari umutuku, izitarera zibaga ari icyatsi kibisi ziterwaga umuti wo kwica udukoko.

Iyo ugeze ahahinze icayi c'u Rwanda, ubonaga bishimishije cane kibaga kimeze nk'indabyo; abari kugisarura, bitwazaga ibitebo ndetse n'ibyuma bikarishe cane byo kugenda barakatisha.

Ubuyobozi buri kugerageza kwigisha abaturage, ukuntu bahingaga amaterasi g'indinganire, nigo garwanyaga isuri bigatuma ubutaka budatwarwa n'amazi.

Ibigori biterwaga umuti wicaga udukoko, tubiteraga indwara zitumaga bitera neza. Bakoreshaga icuma cabugenewe, mu gutera umuti.

Abantu bavangaga ibigori n'izindi myaka batumaga bitera cane. Tujye turahinga buri gihingwa ukwaco n'ikindi ukwaco n'ikindi ukwaco, ni byo bizaduha umusaruro.

Gukorera mu mashirahamwe ni byo bitaga ubudehe . Abagore benshi bakundaga kwishira hamwe bagahingira hamwe, bagasarurira hamwe ibi ngibi bibafashaga kwikura mu bukene.

Mu gihugu cacu duhingaga n'igihingwa c'icayi. Usangaga kibereye aho gihinze. Mu kugisarura babaga bahetse ibitebo, bakagenda barasoroma amababi barajugunyamo.

Abantu bahingaga inyanya zishingirirwaga ni bo babonaga umusaruro ushimishije cane, ntabwo zikundaga kubora kuko nta hantu zihuriraga n'itaka, ikindi kandi ziterwaga umuti nibura inshuro imwe mu cumweru.

Amapera gagiraga mu nda w' umweru kararyohahaga cane. Cane cane iyo ugaciye gatari gatukura neza.

Ibigori bitaze ku muriro biraryohaga cane ndetse bihumuraga neza. Umubiri gwabyakiriye, usangaga gumerewe neza cane.

Ibitunguru bya puwaro birahumuraga cane. Imizi yabyo n'igice co hepfo bibaga bisa n'umweru. Amababi gabyo gabaga ari icatsi kibisi, bakundaga kubishira mu isombe.

Icayi c'urwanda kigiraga umusaruro gushimishije cane mu kugisarura babaga bahetse ibitebo bagasoroma, bagenda barajugunyamo, barajugunyama iyo bagwejeje bakijanuka ku ruganda.

Urusenda rubagamo amoko menshi gatandukanye. Hari urwitwa kamurari rubaga ari rurerure. Iyo rutari rwera rubaga rusa n'icatsi kibisi, iyo rweze ruhinduraga ibara rugasa n'umutuku.

Imbuto ni ikiribwa gikundwaga n'abantu benshi. Zibagamo amoko gatandukanye n'amabararaga gazo gabaga gatandukanye. Hari izibaga zisa n'umuhondo, izindi zigasa n'umutuku, izindi zigasa n'icatsi kibisi.

Avoka iri mu bwoko bw'imbuto igiraga amavuta kandi irabyibushaga cane, iyo ari imbangurire igiraga urubuto rutoya mo imbere ugasanga ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bize iby'ubuhinzi babitaga abagoronome , bajaga mu giturage kwigisha uko bahingaga ibishimbo by'umushingiriro ku murongo . Barabishingiriraga , ubundi bikazatanga umusaruro gushimishije.

Kera abagore ntabwo bagiraga telefone. Ariko iterambere ryaraje. Uyu mugore wambaye umupira g'ubururu witeze igitambaro c'ubururu nawe afite telefone.

Iyo ushaka guhenga avoka ukazazibonamo umusaruro ushimishije, uhinga imbuto z'indobanure za zindi bita imbangurire, icyo gihe wirinda kuzivangamo indi myaka ubundi ukazitaho.

Amatunda geraga gari kurandaranda gararyohaga kurusha ibinyomoro; iyo ushaka kugahinga ushaka ibiti ukagashingirira, garabanza gagakaba icatsi gaja kwera gagahindura ibara gakaba umutuku.

Intoryi n'imiteja na pavuro bikora isosi iryoshye rwose. Iyo wabitetse ukabirya, wumva umerewe neza. Ndabona hari n'indimu na zo, izi ndimu zo, ni izo gukoresha umuti uvura mu mihogo.

Umuhinzi wa karoti iyo yazitayeho, zimuhaga umusaruro gushimishije kugira ngo umenye ko zeze ubonaga amababi gazo gahinduye ibara gashaka nko kuma.

Pavuro ibaga mu bwoko bw'imboga iyo uyihinze ahantu heza ukayihingana ibyatsi by'imborera, ireraga igatera ubwuzu, iraryohaga kandi irahumuraga.

Umuhinzi yahinze inyanya akazitaho zimuhaga umusaruro gushimishije ku buryo nawe usangaga yishimye iyo agiye kuzisarura. Kugira ngo umenyeko zeze, usangaga zitukurije ziteye ubwuzu. Iziteze zibaga zisa n'icatsi kibisi.

Iyo uri umucuruzi ushaka gutera imbere，urebaga ibiribwa bikenerwaga cane muri karitsiye，harimo ibirayi， ibishimbo， amakara n'imyumbati， ndetse n'ibindi. Wirindaga kwiba abakiriya， ugakoresha gwa munzani gw’ isahani.

Ibitoki bibagamo amoko menshi gatandukanye hari ibyateganyirijwe kuribwa babitetse, ibindi bikaribwamo imineke iby'imineke ziraryohaga cane.

Ibisheke ni ibihingwa bikundwaga n'abantu benshi kubera ko biryohereraga, iyo babijanye mu ruganda umutobe gwabyo bagukuragamo isukari nziza cane.

Muri gahunda za Leta, umuturage wese agomba kugira avoka, nk'igihingwa kirwanyaga imirire mibi. Hakorwaga ubukangurambaga kugira ngo abaturage bose babashe kubyumva.

Ibi bijumba babyitaga turatugabane. Biraryohahaga cane, cane cane iyo bitetse mu mavuta, ibara ryabyo ni umutuku.

Ibi bigori bari kubyokereza ku mbabura, kugira ngo bishe neza. Iyo ubyokeje gutya, urabiryaga, ukumva bifite icanga, nta mata gabaga garimo.

Ibigori byo mu ifumbire bikundaga guheka bibiri bibiri. Iyo bitari byera usangaga ubusenzi bwabyo ari umutuku. Ikikubwiraga ko byeze ni uko buhindukaga bukuma.

Izi hene ni umunane, baziziritse ku biti kugira ngo zitaja kona; itatu ziraryamye zahaze, itanu zo ziracahagaze, nkundaga iriya ifite ibara ry'umukara.

Ubuhinzi bw'amatunda gagandi garandaga ntabwo bupfuka guhingwa n'umuntu uwo ari we wese, kuko garavunaga cane bisaba kuyashingirira ukabyitaho ukagatera umuti kugira ngo gazaguhe umusaruro ugushimishije.

Amasaka g'amakoma iyo wagahuye ukagagosora neza inkumbi zose zikagashiramo gavagamo igikoma kiryoshe cane kibaga gisa n'umutuku.

Amateke ga kinyarwanda gararyohaga, cane cane iyo gageretse ku bishimbo. Abakecuru n'abasaza barayakundaga kuko gabongereraga imbaraga.

Kuvanga ibihingwa ntabwo bitangaga umusaruro gushimishije cane. Ni byiza guhinga igihingwa ukwaco n'ikindi ukwaco kugira ngo tuzabibonemo umusaruro twifuzaga.

Amapera ga kijambereha gararyohaga cane. Iyo uyariye gatari gatukura cyane, iyo utegereje ko gera cane gagatukura garaboraga.

Igihingwa c'indimu bakundaga kugihinga mu burengerazuba. kiraheraga kandi kirahakundaga. Kigiraga umutobe uri kurura uri gusharira ariko kandi civuraraga inkorora n'izindi ndwara.

Inyanya iyo zeze neza usangaga ziteye ubwuzu. Umuhinzi wazo abaga yishimye cane iyo isarura ryazo ryageze, kugira ngo umenye ko zeze zibaga zitukuye, izitari zera zibaga ari icatsi kibisi.

Ibirayi bya kirundo bibaga bisa n'umweru, nabyo bireraga, ariko ntabwo biryohaga nka kinigi iyo wabiteranye ifumbire bitangaga umusaruro gushimishije.

Avoka zibarirwaga mu bwoko bw'imbuto. Iz'imbangurire ni zo ziryohahaga cyane, kurusha izindi zose. Zibaga zifite ibiheri inyuma n'ibara ry'icatsi kibisi.

Ibijumba by'umutuku biraryohaga cane, bikundaga kugira amafu mo imbere, biteraga imbaraga. Usangaga bikomeye, ku bujyo kubiteka bisabaga inkwi nyinshi.

Iyo indimu itari yera, ibaga isa n'icatsi kibisi yamara kwera igasa n'umuhondo, igiraga umutobe gukarishe cane ku buryo ugusomyeho wese agumviraga mu matwi.

Mu gucuruza ibitoki bisaba urugenzo ruhagije cane, kugira ngo ukuremo nayo gushaka imodoka izaja irabitwara. Hari imodoka zabigenewe zitwaraga imizigo.

Amashu ni igihingwa gihingwaga n'abantu benshi cane cane abo mu caro. Iyo bagihinganye ifumbire y'imborera n'iy' imvaruganda itangaga umusaruro ushimishije cane.

Iyo ugeze mu isoko ry'ibirayi usangaga birimo byinshi imifuka zuzuye zitsindagiye, imodoka zizaga kubipakira zikabijyana mu gandi masoko hirya no hino mu gihugu.

Igihingwa cy'inyanya, iyo nyiracyo yacyitayeho kimuha umusaruro ushimishije cyane, mu kugitera umuti avangamo n'undi muti wica udukoko.

Mu buryo bwo kwirinda indwara zandura zitandukanye, ibicuruzwa ducuruzaga bigomba kuba bifite isuku kandi biri mu bintu bisukuye. Ntabwo tugomba kubitereka hasi, tugomba kubitegurira aho bigomba guterekwa.

Kugira ngo ubucuruzi bwawe butere imbere wirindaga gucuruza ikintu kimwe. Urebaga ibikenewe byose muri karitsiye ukabicuruza harimo umuceri, amafu, amavuta go kurya, ago kwisiga n'ibindi byinshi.

iyo ibirayi babihinze mu butaka bw'inombe bukomeye bireraga ariko kandi kubisarura biragoranaga cane, usangaga abari kubisarura bitwaje amasuka kubera ubutaka bubaga bukomeye.

Ibitunguru bya onnyo byereraga mu butaka. Bikazana ibintu bimeze nk'ibijumba. Ibibabi byabyo bibaga ari icatsi. kugira ngo umenye ko byeze bya bibabi bihinduraga ibara bigasa n'umuhondo, ntibibe bikiri icatsi.

Imyumbati zibagamo amoko gatandukanye hari iziribwaga ako kanya bakizikura hari n'izo bakuragamo ubugari ,bazitaga ibivunde barazitonoraga, bakazishiramwo amazi ,mu gihe runaka bakayakuramo bakazanika nyuma zikazavamo ubugari.

Ubworozi bw'inkoko butangaga umusaruro gushimishije, iyo nyirazo yazitayeho iyo amaze kuzigaburira azihaga amazi go kunywa kugira ngo zirusheho kugubwa neza.

Umworozi w'ingurube iyo yayitayeho imuhaga umusaruro gushimishije. Hari igihe ibwaguraga ibyana ugasanga birenze icumi, ico gihe imutezaga imbere rwose.

Igihingwa c'umuceri na co gikenerwaga mu Gihugu kandi gikundwaga n'abantu benshi. Niyo mpamvu gihingwaga mu gishanga kuko gikeneraga amazi.

Mu isoko ry'ibiribwa usangagamo imbuto n'imboga. Inyanya zibaga zihenze ugereranije na puwavuro, amatunda nago garahendaga.

Ibi bitunguru bivuraga inkorora, babyitaga ominyo, ni bitatu ubikataguye ukabishira mu ifiriti na bwo biraryohaga

Indimu ni igihingwa co mu bwoko bw'imbuto. Iyo itari yera ibaga isa n'icatsi. Iyo imaze kwera ihinduraga ibara igasa n'umuhondo. Ivuraga inkorora n'izindi ndwara nyinshi.

Igiti c'ipera iyo kikiri gitoya kigiraga ibibabi bitohagiye, ibibabi byaco bivagamo umuti g'uvuraga inzoka, ndetse n'inkorora kubanaana bakiri batoya.

Amateke gabagamo amoko menshi gatandukanye hari amabungu hari n'amabwayisi amabwayisi gararyohaga cane gagiraga umutuku mo imbere gabaga ari amafu.

Ibi bigori ni binini cane, bifite n'impeke nini. Uyu mugabo yabyitayeho kugira ngo bizamuhe umusaruro ushimishije.

Mu Rwanda bakundaga guhinga icayi, iyo ceze usangagamo abantu bari kugisoromo canecane abagore, ni bo usangaga bafite ibitebo bashishikaye bari gusoroma.

Pavuro ni igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga. Ibibabi byaco ni icatsi cibisi. Iyo zeze neza zihaga nyirazo umusaruro ushimishije. Bazitekaga mu isosi maze igahumura neza.

Umuhinzi w'ibigori iyo yabyitayeho bimuhaga umusaruro gushimishije, usangaga byarahetse bibiri cyangwa se bitatu ndetse na bine hari ibibihekaga, usangaga abantu bo bari kubirangarira kuko usangaga bitera ubwuzu.

Mu bihugu byateye imbere ntabwo bahingishaga amaboko gabo nk'uko muri Afurika tubigenzaga, bakoreshaga imashini zabugenewe mu guhinga.

Mu isoko ry'ibiribwa usangamo amoko yose y'ibirayi ariko kandi ibyitwa Kinigi ni byo bakunda, uretseko nanone bihenda cyane kurusha ibindi byose.

Iyo ibigori babihingishije ifumbire y'imborera na mvaruganda bihekaga ikigori kinini gishimishije cane usangaga biri guha nyirabyo umusaruro.

Voka y'imbangurire igiraga akabuto gatoya cane. Imbere ibaga isa n'umuhondo. Inyuma utari wayisatura ibaga ifite ibiheri. Igiraga amavuta na vitamine.

Iyo uhinze imyaka zawe ku murongo ,ibyo bitumaga zibona ubwisanzure urumuri rw'izuba na rwo rukazigeraho . Ico gihe biguhaga icizere c'uko uzabona umusaruro gushimishije.

Mu buryo bwo kurwanya indwara ziterwaga n'imirire mibi, buri Munyarwanda wese bamushishikarizaga kugira akarima k'igikoni iwe mu rugo. Cane cane imboga za dodo ni zo bagomba kwibandaho bari kuzihinga.

Igihe c'ihinga iyo cageze umuhinzi ateguraga amasuka gakomeye kandi gakwikiye, gabaga gafite imihini miremire kugira ngo batavunika cane.

Imiteja tuzisangaga mu bwoko bw'imboga kandi ziraryohaga cane. Nta mahwa zigiraga. Zigiraga isosi iryoshe iyo waziteguye neza ugashiramo n'ibirungo bya zo.

Izi voka ni icyatsi kibisi zimeze neza, ariko iyi mineke yo yaraboze, kandi si byiza gucuruza imineke yangiritse, kuko ishobora kudutera indwara.

Igiti cavoka iyo ca gukundi ki kera gitangaga umusaruro gushimishije, nyiracyo kimukuraga mu bukene, y'ishyuriraga abana amashuri akabashakiramo ibikoresho ndetse n'abo mu rugo bakarya bagahaga bakishima.

Umushinga go guhinga amatunda bisabaga kugutegura bihagije, ugashaka ahantu hisanzuye uzagahinga, wamara kugahinga ukagashingirira kugira ngo gazabone uko gatondagira, ico gihe gatangaga umusaruro gushimishije.

Amasaka g'imbundi gareraga cane. Usangaga ihundo ryago ritsindagiye ku buryo ryavamo ikiro cose. Inyoni nta bwo zigaryaga kubera ko gashariraga.

Iyo ibigori byahinzwe neza bitangaga umusaruro gushimishije gwifuzwaga n'abantu benshi. Bivagamo akawunga ndetse n'igikoma co kunywa.

Hari ibishimbo bakundaga guhinga ku ruzitiro bitaga Nyiramabuno, bigiraga uruyange rw'umutuku, bigiraga imiteja minini iryoshe cane, ibishimbo byabyo nabyo bibaga ari binini.

Iyi soya ihinze mu buryo bwa kijambere izatanga umusaruro ushimishije ,ku buryo bizashimisha uyu muhinzi wabihinze.

Ibishimbo byitwa nyiramutike, bigiraga ibara ry'umutuku n'iry'umweru. Ntabwo babishingiriraga byeraga hasi. Abantu benshi barabikundaga kubera ko bitabagoraga mu kubihinga.

Amajeri ni igihingwa gikundwaga n'abantu benshi. Ntago bagabagaraga abantu baherukaga bari ku gatera gararyohaga cane, iyo ari urunyogwe ndetse na gumye nago gararibwaga.

Ibi bishimbo byitwaga umushingiriro. Babishingirije ibiti bikomeye kugira ngo bizatange umusaruro gushimishije.

Ibigori iyo babifashe nabi biraboraga, cangwa mo kimwe bikazamo imungu, ntaco biba bikimaze uretse kubijugunya kuko birasharira.

Mu isoko ry' ibiribwa dusangagamo ibishyimbo, impungure, n ibitoki, n'ibindi byinshi bitandukanye harimo n'ibikoresho byo mu gikoni kandi bidahenze.

Ubunyobwa ni igihingwa cereraga mu butaka. Abantu benshi barabukundaga cane. Iyo bamaze kubusarura barabwanikaga. Iyo bamaze kubutunganya barabukarangaga, hari ababuryaga mu ifu, abandi bakabuhekenya.

Mu guhinga ibigori tuje turagerageza kurobanura imbuto nziza, urugero nka buride, buride ni ikigori kibaga kirekire, cyeraga ibiheke byiza kandi binini.

Igihwagari ni igihingwa kivagamo amavuta, kigiraga ibibabi by'icatsi kibisi kikagira n'indabyo z'umuhondo, inyoni ziragikundaga cane, kugira ngo zitakirya usangaga bagipfutseho amashashi.

Abahinzi b'ubunyobwa bagira akayunguruzo kabugenewe bifashisha bari kubuyungurura. Bagenda bafata buke buke bakabushyira mu kintu bateguye gutyo gutyo kugeza burangiye.

igihingwa c'igihwagari kibaga ari kirekire, kigiraga ibibabi by'icatsi n'indabyo z'umuhondo. Kivagamo amavuta gitwa igihwagari garyohaga cane.

Hari ibigori bigezweho byitwaga iboride bya kijambere，bireraga cane kandi bibaga birebire. Ihundo ryabyo ribaga rifite ibiheke binini cane.

Amasaka gavagamo umutsima guryoshye cane gwa kinyarwanda. Iyo wagasaruye gateze neza, gavagamo igikoma kiryoshe cane.

Umugosozi akoreshaga intara ari kugosora. Ashiragaho imyaka，agatangira agahuha, umuyaga nago gugakuramo umurama，usangaga ari ibintu bivunanye.

Ibishimbo bibagamo amoko gatandukanye. Hari ibyitwa Nyiramagorori bibaga ari umutuku kandi ari bitoya. Hari n'ibindi bya Mwirasi bibaga byijimye, bigiraga isosi nziza cane.

Hari igihe kigeraga bagateganya igikorwa co gukingira inka zose ziri mu gihugu, bazizanaga ku kibuga ahantu hagari muganga wabyigiye akaba ari hafi aho agatangira akazikingira.

Amatungo magufi gatangaga umusaruro mwiza cane iyo umworozi wago agitayeho; muri ago matungo harimo:inkoko, n'ihene ,n'intama bisaba kugitaho kugira ngo uzagabonemo umusaruro.

Inkoko za saso zitangaga umusaruro gushimishije iyo wazifashe neza, hari abaziryaga amagi, abandi bakarya inyama zazo.

Inka z'inzungu, zigiraga amabara abiri iry'umweru n'iry'umukara. Zitangaga umukamo ushimishije, amata gazo gabaga garyoshe.

Amatungo g'inkwavu usangaga gashimishije cane, bisaba kugashira ahantu hafite isuku. Iyo nyirako abyitayeho, gatangaga umusaruro gushimishije cane.

Ingurube iri mu kiraro cayo ca kijambere. N'ubwo ari ico ibiti, ariko kirakomeye, kirubakitse. Uyu mugabo rwose yaragikomeje, kandi iyi ingurube izamuha umusaruro ushimishije, ifite isuku ntacyo ibaye.

Iyi ngurube irashimishije cyane. Yabwaguye ibyana icyenda. Iyo bigiye konka nyira byo abijyana iruhande rwa nyina, akabyereka ukuntu bironka.

Inyana yavutse itari yarenza icumweru bayitaga "umutavu" ibagishimishije cane kuko ibaga iri gusimbagurika mu mbuga hirya no hino iri gushaka ubuhake.

Izi ngurube uko ari itatu ni iza kijambere, zirashimishije cane, bigaragara ko nyirazo azitagaho akaziha ibiryo bizikwiriye.

Hari inka z'inyambo zibaga mu gikuyu zibaga ziteze neza amahembe gazo iyo zimaze guhaga zirabyagiraga abashumba bazo bakaja kuzishakira amazi gokunwa.

Inkoko y'isake igiraga ibikoroko, igiraga amababa gafite amabara gatandukanye karimo umutuku n'umukara.

Inka zororerwaga ku gasozi usangaga zibyibushe cane kurusha izororerwaga mu rugo. Akenshi izo ku gasozi zirirwaga ziri kurya ibyo zibonye byose, n'aho izo mu rugo zitegerezaga ko bazigaburira.

Iyo ufite imishwi zikiri mitoya cane usabwaga kuzisasira ibyatsi, kugira ngo zibone ubushuhe iyo zihuye n'ubukonje zirapfaga zose zigashira.

Inuma ziri mu bwoko bw'inyoni. Zikundaga kwiyibera mu mashami g'ibiti. Zitungwaga n'amasaka abantu babaga barahenze.

Inyoni y'igishwi ntabwo ikundaga kuguruka, ikundaga guhora ihagaze hamwe, igiraga amababa gafite amabara menshi, ibaga ifite amaso g'umuhondo n'umunwa gusongoye.

Inuma ziri mu bwoko bw'inyoni zikundwaga kandi ziribwaga. Zigiraga amababa meza garimo amabara. Zikundaga kuguruka ariko ntabwo zijaga kure y'abana.

Iki kinyoni citwa ikiyongoyongo, kigiraga umunwa muremure nigwo cifashishaga kiri kuroba udufi kirarya ugwo munsi.

Inyoni zimenyaga kubaka ibyari byiza cane ziraragamo, zirazagamo n'ibyana byazo kugira ngo biticwa n'imbeho.

Uruyongoyongo narwo ni ubwoko bw'inyoni, rugiraga umuzosi muremure rugiraga nanone umunwa gusongosoye, rukunda kuboneka mu nkengero y'ikiyaga hafi y'amazi.

Inyoni y'igishwi igiraga amabara meza, amababa gayo usangaga gegeranye, igiraga umunwa gusogosoye, ihoraga yasamye, ikundaga kurya amasaka.

Igisimba citwa ikinyogote kigiraga amacumucumu gagiteyeho umubiri wose ni go kirwanishaga igihe cyose kiri gushaka kwirwanaho gihuye n'ibigiteye mu nzira.

Ikinyoni cyitwa igikona, kigira amabara y'umweru n'ay'umukara, ntabwo kiribwa iyo ukiriye wicwa n'icyaka.

Isha ni inyamaswa yo mu ishamba imenyaga kwiruka no gusimbuka. Ariko ikaba ihigwaga n'izindi kugira ngo ziyirye.

Inuma ni inyoni iribwa n'abantu bose, itera n'amagi aribwa, igira amaso y'umutuku n'amababa meza cyane avangavanze, igira kandi umunwa usongosoye.

Inyamaswa y'ingagi usangaga itandukanye n'izindi nyamaswa .Ico zihuriyeho ni uko zose zigiraga ubwoya ariko kandi ingagi yo igiraga forume imeze nk'iy'umuntu.

Inuma ni inyoni ikundwaga n'abantu benshi. Igiraga amabara meza gavangavanze, igiraga kandi umunwa gusongoye gufite amabara abiri: ibara ry'umuhondo, n'iry'umutuku.

Ingagi ni inyamaswa imeze nk'umuntu aho bitandukaniye ni uko yo igiraga ubwoya, ikundwaga n'abanyamahanga bazaga kuyisura bazanye amafaranga g'amadovize.